Icyumba cy'ababyeyi cyo kwa muganga kigaragara ko kiryamyemo ababyeyi babyaye abana impinja mu magambo make, icyo cyumba kikaba gifite amabara y'umweru, kikaba kimanitsemo inzitiramibu zifite ibara ry'ubururu, abo babyeyi bakaba bateruye impinja zabo, hirya hari abaje kureba impinja bari kureba uko zimeze n'abo baziterura.

Icyumba kirimo abantu bagera kuri batandatu, hakaba harimo ameza arambitseho mudasobwa, muri abo bantu barimo abambaye impuzankano ikigo gishinzwe gucuruza ibijyanye n'itumanaho no kwakira no kohereza amafaranga, impuzankano iboneka bambara ibara ry'umutuku abandi bambaye imyenda y'umweru, abandi umuhondo ku gice cyo hejuru.

Gutabarana ni ikintu cyiza cyane kuko hari abantu usanga batabara abandi bakabatabarira ubuzima twavuga nk'abaganga se bafasha abantu bakabavura bakagarura ubuzima cyangwa se n'abandi bantu batandukanye bita ku barwayi, noneho bakabagarura mu buzima bari bagiye kubabuvamo.

Umugabo uryamye kwa muganga, akaba aryamye yambaye inkweto zifite amabara y'umweru n'umukara, yambaye ipantaro ifite y'umukara, ishati ifite ibara ry'umweru, bikaba bigaragara ko bashobora kuba bamwongereye amaraso bacishije mu mutsi.

Kugira isuku n'umuco mwiza n'umuco uranga umuntu bikamurinda kwandura indwara zitandukanye, hari indwara zandurira mu mwanda akenshi abajyanama b'ubuzima barabidushishikariza noneho ugasanga baratubwira ngo mbere y'uko tujya mu bwiherero tugomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa se mbere yo kujya gukaraba.

Abantu bakoraniye hamwe bari ku murongo. Bamwe bari ku murongo w'imbere bicaye, abandi bari ku murongo w'inyuma bahagaze. Muri abo bantu bamwe bakaba bambaye imyenda ifite amabara y'umutuku, abandi bambaye ifite amabara y'icyatsi, abandi umweru, abandi umukara. Bakaba bahagaze imbere y'inzu ndende yubakishije amatafari. Imbere yabo hakaba hari ibyatsi.

Muri iki gihe hari indwara zisigaye zarateye z'ibyorezo indwara zandura, ku buryo iyo umuntu akoze k'uwundi indwara ihita imugeraho, ariko abaganga bazivura usanga bafite ubwirinzi ku buryo ntaho bahurira n'indwara ku buryo umuntu bari kuvura atigize abanduza .

Kugira ubuzima buzira umuze ni ikintu cy'ingenzi cyane aho usanga dufashwamo n'abaganga batwitaho uko bashoboye ari ukuvura indwara ruvu ibisebe byose bakabikora bitanga, aka kazi kaba katoroshye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bifashisha bitandukanye. Harimo igitanda gisasheho amashuka y'icyatsi, hirya yacyo hakaba ibindi bikoresho bifashisha bapima nk'uburwayi bw'abantu. Icyo cyumba kikaba gifite ibara ry'ikigina ku nkuta zacyo.

Umuganga wicaye bigaragara ko agiye gutera umurwayi urushinge, umuganga akaba yambaye uturindantoki tw'umweru, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, umurwayi agiye kuvura akaba yambaye ibitenge bifite amabara y'umutuku n'icyatsi kigaragara ko cyumye hirya y'aho hakaba hicaye undi muganga na we bigaragara ko ari kwakira umurwayi.

Abakozi bo kwa muganga bambaye imyenda yabugenewe bari mu cyumba bakikijwe n'inkuta ziriho ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi, umwe muri bo akaba agaragara nkaho ari kumva iby'undi amubwira, ureba imbere yabo hirya gato izo nkuta hakaba hagaragara hari amatara ari kwaka.

Abantu bahagaze imbere y'inzu, muri bantu hakaba harimo abashobora kuba ari abazungu cyangwa se aberaabandi bikaba bigaragara ko ari abirabura, bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye: umukara, umweru n'umutuku n'irijya kuba ikigina, iyo nzu bahagaze imbere ikaba ifite hasi ibara ry'umweru hejuru ibara ry'ikigina.

Abantu bicaye hamwe mu nzu ifite amabara y'umweru hejuru, bigaragara ko iyo nzu yatangiye kwangirika hejuru, bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye: ubururu, umweru, icyatsi, umukara, bikaba bigaragara ko bari kureba umuntu imbere wagira ngo hari ikintu ari kubabwira, bamwe bakaba bafite umusatsi mwinshi abandi bafite umusatsi uringaniye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bisaseho matola ziri mu ibara ry'ikigira, kuri izo matola hakaba hashasheho ibitambaro by'umweru, hejuru kuri izi matola hakaba hamanitseho inzitiramibu, hirya y'ibitanda hakaba hicaye umugabo bigaragara ko ashobora kuba bari mu kagare k'abamugaye cyangwa abana n'ubumuga.

Umukozi wo kwa muganga wambaye imyenda y'umukara, mu mutwe akaba yambaye ingofero y'icyatsi, akaba yambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hakaba hicaye ababyeyi, abadamu n'abagabo, bafite amafishi mu ntoki bigaragara ko ari kugenda aca kuri buri umwe amureba agira ibyo amubaza asa nk'umupima uburwayi.

Abantu bahagaze hamwe bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Akaba higanjemo: abambaye amabara y'umutuku abandi umweru abandi ubururu abandi umweru uvanze n'umukara. Inyuma hakaba hari inyubako ndende. Imbere hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi bikase neza.

Abaganga bane bari mu cyumba bigaragara ko bari kwita ku murwayi, babiri muri bo bambaye imyenda y'icyatsi, umwe muri bo yambaye umukara hejuru, uwo murwayi bakaba bamutwikirije imyenda y'icyatsi, icyumba barimo kikaba gifite amabara y'umweru.

Akenshi na kenshi usanga abantu bahurira hamwe bakaganira ku byubaka, ibyabateza imbere, ibyabaha amafaranga ndetse bakaganira ku buryo bungurana inama, buri muntu akabasha gukuramo ikintu cyamugirira akamaro.

Umuntu ugaragara nk'umuganga wambaye taburiya y'umweru ufite ikaramu mu ntoki imbere ye, hari imiti y'amoko atandukanye harimo udukoresho bakoresha bafata amaraso, n'agakoresho bifashisha bakaraba mu ntoki bagira ngo bice udukoko dutera indwara, muganga akaba yambaye ibikomo ku maboko ye.

Mu Rwanda usanga harimo ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima, bifasha abarwayi kugira ngo babashe kubaho neza, twavuga mu bitaro dusangamo ibitanda, isuku nziza cyane, inzitiramubu zikoranye umuti zirinda malaria.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bisasheho matora, hejuru hari inzitiramibu zigaragara ko zifite ibara ry'umweru, urebye muri parafo y'icyo cyumba hakaba harimo icyuma cyagenewe kuzana umuyaga mo aho ngaho, icyo cyumba kikaba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru.

Ibikoresho byo kwa muganga biri ahantu mu cyumba bikaba bifite amabara atandukanye, bifite amabara y'umweru, ubururu n'ibijya gusa n'umukara, icyo cyumba birimo inyuma yacyo bikaba bigaragara ko gifite ibara rijya kuba umweru ariko utagaragara neza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufashe igikoresho bifashisha bari gupima ubu burwayi bugiye butandukanye, uhanze, uri kureba mu maso y'icyo gikoresho, bigaragara ko ari gushishoza ari kureba neza ko mu byo yaba ari gupima harimo uburwayi runaka.

Abana b'abanyeshuri bambaye amataburiya bigaragara ko bashobora kuba bari mu bushakashatsi cyangwa se kugaragaza ibyo bize, aba bana bakaba bambaye amataburiya y'umweru buri wese akaba afite umunzani ari gukoreraho ubushakashatsi apima.

Umukozi wo kwa muganga uri gukoresha mudasobwa bigaragara ko ashobora kuba ari kwakira umurwayi, cyangwa se uje amugana ukeneye serivisi zigendanye n'ubuvuzi, uwo mukozi akaba yambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru uwo ari kwakira yambaye imyenda ifite amabara y'umweru avanzemo n'umukara.

Hari uduce tumwe na tumwe mu Rwanda usanga tugaragaramo indwara ziterwa n'umwanda, twavuga amavunja yataka abantu noneho ugasanga abateye uburwayi, rero tugira abakangurambaga, abakorerabushake badufasha muri ako kazi bakabasha gukorera isuku abantu bahuye n'izo ndwara.

Abana batoya, bigaragara ko basaba kuba bari mu rerero, aho twita mu irerero abana bato barererwa, hakaba harimo ababyeyi babiri bashobora kuba bari kubaha izimano cyangwa ifunguro, no hirya hari umwarimu wabo ushobora kubaha na we uri kubita.

Umuganga wambaye uturindantoki turimw' ibara ry'umweru bigaragara ko afite mu ntoki ze urushinge ari kurutera umuntu. umuntu akaba yambaye ishati y'ubururu, agaragara ko uwo umuntu yamuhaye akaboko arikogatera urushinge.

Abantu bakoraniye hamwe bahagaze. Harimo abana n'abantu bakuru. Abo bantu bamwe bakaba bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu. Abandi imyenda ifite amabara y'umukara. Abandi imyenda ifite amabara y'umutuku. Bakaba higanjemo abana batoya. bakaba bahagaze imbere y'inzu ndende ifite amadirishya manini. Imbere yabo hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi

Abantu bahagaze bamanitse amaboko hejuru bigaragara nk'aho hari ikintu bishimiye, hakaba n'bandi hejuru yabo bambaye imipira y'ubururu n'abo bahagaze bamanitse amaboko hejuru, bose bishimye bafite akamwenyu, bigaragara ko hari ikintu bishimiye, imbere yabo bari kureba.

Abantu bicaye ku murongo w'imbere abandi bahagaze ku murongo w'inyuma muri abo bantu muri bo abenshi biganje bakaba bambaye imipira y'icyatsi, umwe muri bo yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, muri abo bantu hakaba harimo umukozi ushinzwe umutekano twita umusirikare, hejuru yabo hakaba hari ibiti bibarindiye igicucu.

Abantu bateraniye hamwe bamwe bicaye abandi bahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bambaye imyenda y'amabara y'umweru, umukara, umuhondo, ubururu, bakaba bari kumwe n'umukozi ushinzwe umutekano, wareba hagati muri bo ugasanga harimo abazungu.

Abantu bicaye mu nzu ifite irangi ry'ikigina, ifite parafu he hejuru harimo amatara, imbere yabo bahagaze umugore usa nk'uri kubabwira imbwirwaruhame, imbere y'aba bantu bafite amacupa y'amazi, hari abagore babiri bicaye imbere y'abo bantu, bari kwandika.

Abantu bahagaze hamwe inyuma yabo hagaragara ibyatsi bimeze neza byi'cyatsi, abantu bamwe muri bo bafashe icyapa kiriho icyapa cyamamaza ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, inyuma yaho hari igiti.

Abaturage bagira igihe bagahurira hamwe bakungurana ibitekerezo bakabagira inama uko bagakwiye kwitwara bagafasha n'abandi bafite ibibazo bitandukanye, indwara zitandukanye. Bakabigisha bakiga uko babana nabo noeho ubuzima bukagenda neza muri sosiyete.

Hari ibigo byinshi bifasha abaturage mu buryo butandukanye twavuga nk'ibigo by'ubuzima, amashuri ndetse n'ibitaro, ibitaro twavuga nk'ikigo gishinzwe gutanga amaraso ndetse n'ibindi.

Akabati gateretsemo amacupa y'ubwoko butandukanye bigaragara ko, ako kabati gashobora kuba gateretsemo iyo miti ishobora kubayifashishwa mu kuvura nk'amatungo, cyangwa se abantu iyo miti ikaba iri mu bipimo bigiye bitandukanye, harimo iri mu majerekani yenda kuba manini, n'iri mu macupa matoya ikaba ifunze mu dukarito duto duto.

Akabati gateretsemo amakarito agiye atandukanye bigaragara ko aho hantu gateretse hashobora kuba ari kwa muganga kuko hateretsemo amakarito bigaragara ko ashobora kuba arimo imiti yifashishwa mu kuvura abantu, amakarito akaba agiye ari mu mabara atandukanye: umuhondo, umweru n'icyatsi, bikaba bigaragara ko higanjemo ibara ry'umweru.

Akabati gateretsemo amakarito atandukanye n'amacupa menshi bigaragara ko hashobora kuba harimo imiti cyangwa se ibindi bikoresho dushobora kwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, amakarito akaba agiye afite amabara atandukanye: icyatsi, umuhondo, umutuku n'umweru.

Aha ni kuri farumasi, farumasi ujya kwa muganga noneho bakakwandikira imiti, ukagana farumasi ukaza kuyigura, haba harimo abaganga batanga serivisi nziza cyane, iyo ubagannye barakwakira bakakuvura nta kibazo ugakira, ukamera neza.

Inzu ifite amabara yu'mweru, yanditseho amagambo imbere yamamaza ibikorerwamo, ikikijwe n'ibiti birebire, imbere yayo hari agahanda k'amabuye, ku ruhande rw'iyo nzu hari ubusitani burimo bukase neza bufite amabara hejuru ajya kuba umuhondo.

Ubuvuzi bufite ireme ni ikintu kiza cyane kuko bifasha abantu gusubira mu buzima uwari urwaye ukabasha kumera neza, aho usanga ugana ivuriro bakakwandikira imiti ukajya kuzishaka aho imiti iba iri muri farumasi, kugira ngo uyifate ubashe koroherwa ube neza.

Akabati karimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amakarito agaragara nk'aho harimo imiti, hakamo ibikombe bigaragara nk'aho ibinini bivura abantu, hakaba harimo udukarito dutoya natwo dufunze neza, akabati gafite ibara ry'icyatsi hejuru imbere irangi rigaragara nk'ubururu.

Ubuzima ni ingenzi cyane kuko iyo nta buzima ntago wabasha kubaho ngo ukorere amafaranga, cyangwa ugire icyo wigezaho. Niyo mpamvu usanga hari ahantu bacuruza imiti kugira ngo nubasha kurwara ujye kugura imiti, noneho ubuzima bukomeze ubashe kubaho neza nta ndwara.

Akabati karimo imiti y'amoko atandukanye ifunze mu makarito y'ingano zitandukanye, hari ifunze mu dukarito dutoya hakaba n'ifunze mu dukarito tunini hakaba n'iri mu macupa, iyo miti ikaba iri mu mabara agiye atandukanye: umweru, umuhondo, umutuku n'icyatsi, bikaba bigaragara ko harimo umuganga cyangwa umucuruzi wayo ushobora kuba ari kwakira umukire.

Ivuriro ry'abantu rifite amabara atandukanye, rifite amabara y'umweru hejuru hakaba hari ikirangantego kigaragaza ko ari ivuriro ry'abantu cyanditse mu ibara ry'icyatsi, umweru, umukara, n'ubururu imbere y'iryo vuriro hakaba hari ubusitani bufite ibara.

Abantu bicaye hamwe hasi bambaye impuzankano, bishobora kuba bigaragara ko bashobora kuba ari nk'abakozi bakora mu bijyanye n'ubwubatsi. Bakaba bambaye ingofero zishobora kubafasha kwirinda, abandi bambaye n'uturindantoki. Hakurya hakaba hari urukuta rw'inzu cyangwa se rushobora kuba ari ikigega, ku rundi ruhande hakaba hateyeho imibyare.

Umwana uryamye, bigaragara ko shobora kuba bari kumupima uburebure, abari kumupima bakaba ari ababyeyi bigaragara ko bashobora kuba barabihuguriwe, muri abo bantu hakaba harimo n'umukozi ushinzwe umutekano, wambaye impuzankano ya polisi wambaye n'ingofero yabugenewe.

Abantu bicaye hamwe, imbere yabo bahahagaze abandi. Bigaragara ko hari ibintu bashobora kuba bari kubaha. Abantu bahagaze imbere yabo bakaba umwe muri bo, afite umusatsi muremure. Bakaba bambaye imyenda ifite amabara y'umweru hejuru, hasi umwe yambaye umutuku undi umukara n'kigina kivanzemo andi mabara.

Kwiga ni ikintu cy'agaciro cyane, aho usanga abanyarwanda bafite umugambi wo kwiga cyane, kugira ngo babashe kugera aho bashaka. Ni nabyo bashishikariza umwana kujya ku ishuri buri gihe bakanitse agaciro cyane.

Icyapa gifite ibyo cyamamaza cyangwa gikangurira abantu kuba bakora, gishushanyijeho abantu bafashe imbwa ku mugongo, bambaye amataburiya yabugenewe, bambaye n'uturindantoki, iyo mbwa ikaba yasamye, aba bantu muri bo bamwe bakaba bambaye umweru hejuru, abandi umukara hejuru.

Abangaba urabona ko bari gukora imiti gakondo, imiti iva mu byatsi, ikavura indwara zitandukanye harimo amarozi n'izindi ndwara nyinshi cyane.

Kugira ubuzima bwiza n'ingenzi cyane kuko bituma umuntu atarwaragurika, rero nk'abanyarwanda dufite umuntu wabidufashamo; abajyanama b'ubuzima, abakangurambaga bakadufasha bakatwigisha uburyo twakwirinda indwara.

Umuntu uryamye hasi abantu babiri bari mukanda ibirenge bye bigaragara nk'aho yananiwe mu birenge ari kubabara, iruhande rwabo hari isahani igaragara nk'irimo amazi arimo ibara ry'umutuku, umuntu akaba aryamye ku rubaho rugaragara nk'aho ari ikigina, abo bantu umwe akaba yambaye umwenda w'umutuku, umuntu uryamye akaba yambaye akenda k'ubururu.

Ibiganza bibiri bifite agapapuro mu ntoki, ako gapapuro karimo agafu k'icyatsi bigaragara nk'aho ari umwe mu miti ya kera abantu bifashishaga bavura, wenda umuti w'ibyatsi bigaragara ko umuntu ari kugahambura cyangwa ari nko kuvanga uwo muti.

Abantu bahagaze imbere y'ameza bigaragara ko bashobora kuba ari abaganga b'abantu, cyangwa se b'amatungo, imbere yabo ha bakaba bakoraraho ameeza hateretseho impapuro, amacupa bigaragara ko ashobora kubamo imiti, abantu bamwe bakaba bambaye imyenda bakoreshwa mu buganga, dukunze kwita amataburiya, bakaba bahagaze mu nzu inyuma hariyo yubakishije amata.

Mu Rwanda usanga harimo ibigo by'ubuvuzi bifasha abarwayi bafite indwara zitandukanye aho usanga hari n'abakorerabushake, abajyana bu buzima bafasha abantu kubigishwa uko bakwirinda indwara ndetse n'uko babana nazo.

Umukozi wo kwa muganga wambaye impuzankano y'umweru, wambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umweru, bigaragara ko afite urushinge mu ntoki rurimo umuti bigaragara ko ashobora ari kureba ikigero cy'umuti yashyize mu rushinge yitegura kuba yenda yawukoresha.

Dufite inzego z'ubuzima zidufasha mu kwirinda indwara mu kongera imirire myiza twavugamo nk'abanyabuzima bita ku mirire y'abana bakabarinda igwingira usanga umwana yakuze neza mu bwenge no mu gihagararo.

Mu bworozi usanga nkoranyambogamizi nyinshi harimo n'indwara z'amatungo ariko haba hari n'imiti yivurativura na bagiteri n'amavirusi aikca indwara.